Abapolisi ni bamwe mu bantu baducungira umutekano nk'abaturage ugasanga batunyurizamo ndetse bakaba banafunga abantu baba bakoze amakosa kugira ngo babashe gukosoka. Gusa usanga ahanini baba bagamije kurinda ubusugire bw'Igihugu n'abaturage bagituye muri rusange.

Abantu bakora amakosa bakica amategeko barafungwa, bagahanwa ndetse bakambikwa n'amapingu kugira ngo batiruka. Iyo bakosheje rero birasaba kugira ngo babashire mu bigo ngororamuco bongere basubire ku muronko, ndetse babashe no kurokora sosiyete bari bazangiza muri ico gihe.

Kugenzura ibinyabiziga ni kimwe mu bikorwa bikorerwa ibinyabiziga kugira ngo barebe uko bihagaze n'uburyo bikozwemo kugira ngo bitazateza impanuka iturutse ku kuba wenda bishaje, cyangwa se byarakoreshejwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko.

Abacungaga gereza bambaraga imyenda z'iniforume n' ingofero. Bagacunga kugira ngo abafungiwemo batiruka, baba bafite n'amapeti g' igihugu kugira ngo bigaragare ko ha bakorana na leta.

Aba bantu bashinzwe umutekano gw'abantu baba bambaye ibikoresho byabugenewe nk'ibikweto biba bimeze neza, ku buryo badakangwa naho kunyura, biba bifashe nka bote, kandi batagwa ngo bapfe kuvunika, kuko bambaye imyenda yabugenewe.

Inama ni bimwe mu bikorwa bihuza abaturage benshi n'abayobozi babo, bigatuma biyumvanamo ndetse bagashyira hamwe no mu bikorwa biba bireba nk'agace batuyemo, kandi byungukiramo benshi kubera ko bituma abantu babasha kumenya uko bayobowe n'uburenganzira ndetse n'inshingano bafite.

Aboolisi ni bamwe mu bantu bacunga umutekano w' abantu, n'ibintu byabo. Iyo bagufashe unyuranyije n'amategeko y'igihugu, cyangwa se uri mu bikorwa bibangamiye umuturage, baragufata bakakwambika amapingu, bakaba bajya no kugufunga, kugira ngo ube wakosoka.

Ahantu henshi hacururizwa haba hari abantu benshi cane, hari ababa baje kugura abandi bagiye nko kugurisha bahafite imyaka batanditse, ndetse haba ari ahantu hagari, kubera ko haba hagomba kwisagagurirwa n'abantu.

Ingabo z'igihugu, ni bamwe mu bantu bafite akamaro kanini, mu gucunga umutekano w'abaturage n'igihugu muri rusange . Ni abantu beza cane, baba bafite ubumuntu, kandi bakamenya guharanira uburenganzira n'ubusugire bw'igihugu, mu buryo bw'umutekano, politiki, ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka, bwatuma igihugu kibaho neza.

Inama ni kimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi bakabasha kumenya uburenganzira bwabo, n'indi miterere igihugu cyubakiyeho, kandi ugasanga bamenya n'uburenganzira n'inshingano baba bafite mu guteza imbere igihugu, no mu gukemura ibibazo byabo n'abayobozi babibafashijemo.

Inama ni igikorwa gihuza abayobozi n'abayoborwa bigatuma abantu bose bamenya uburenganzira n'inshingano bafite muteza imbere igihugu cyabo. Iyo rero umuntu ayoboye inama agomba kwitwara neza kugira ngo abamuteze amatwi babashe kumureba bamwumve, banamwumvire.

Inama z'amakomite cyane cyane nk'ibibina si ngombwa ngo zibe zigizwe n'abantu benshi, ahubwo bashobora kuba bake bakayikorera ahantu runaka bagamije kugira ngo basuzume ibikorwa byagezweho mu makoperative bayoboye cyangwa se mu bina. Barasurana, bakajya mu rugo rumwe, bagasanga ni ibintu bimeze neza cyane bigatuma bafata imyanzuro vuba kandi neza.

Amazu manini aba aberagamo inama usanga ari amazu gameze neza cane, gafite amarangi, gafite n'amatara menshi ku buryo abantu iyo bari kuremeramo inama baba bicaye batuje, babahaye amazi. Ni amazu batakaga neza, gakaba gafite n'ameza gariho ibitambaro ku buryo aba ameze neza.

Mu muco wa kera, abantu babohaga ibirago byo kwicaraho, kugira ngo babashe kwicara batiyanduje hasi, ndetse bakaba banabiryamaho, bakanabyiyorosa, byabaga ar'ibirago bikozwe mu byatsi n'imigozi ugasanga n'ibintu byiza cyane.

Mu muco wa kera habagaho guhinga ibihingwa byakorwagamo nk'imiti cyangwa se n'imboga zo kuribwa. Wasangaga rero ari ibintu byiza cyane kuko byabaga bifite umwimerere kandi ugasanga nta kibazo nta n'izindi ngaruka bitera ku ubuzima bw'umuntu.

Mu muco nyarwanda habagamo abantu bavuza ingoma, abandi bagahamiriza, barasimbukaga, bakagera kure, bafashe amacumu n'ingabo, bambaye n'amayugi no kugira ngo injyana ibe neza muri ibyo bitaramo cyangwa se mu minsi mikuru babaga bafite.

Ibiryo nyarwanda bya kera byabaga byiganjemo imyumbati n'ibishyimbo n'umutsima wabaga uteretse ku mbehe, gusa byose byabaga biri ku nkoko imwe iteretse nko ku kirago abantu akaba ariho barira, ugasanga ni ibintu bigaragaza umuco wa kera. Umuco abanyarwanda bagenderagaho.

Uburo ni ibihingwa, bihingwa mu ntara y'amajaruguru ku buryo bayavanga mu gikoma ugasanga kiraryoshe kandi gifite intungamubiri. Yera ku buso butoya kandi ugasanga nta kibazo ugereranyije n'ibindi bihingwa kuko ntapfa gupfa.

Mu bikorwa by'imyidagaduro yo hambere hakoreshwaga kubyina hakoreshejwe ingabo n'amacumu ndetse n'ibihura ugasanga ni ibintu byiza cyane biba bigaragaza umuco w'igihugu cyubakiyeho kandi abantu bagasabana bakabinezererwamo cyane mu birori ndetse no mu bukwe no mu yindi minsi mikuru.

Mu muco nyarwanda abantu bagiraga ibitaramo, bakagira uburyo bwo kwizihiza iminsi mikuru bagiraga, harimo nko gushyingira, gushengerera umwami ndetse no kwidagadura hakoreshejwe ibikoresho gakondo. Babyinaga bambaye imyenda yabugenewe bafite nk'udukoko n'utubindi ndetse n'ibindi bikoresho gakondo bagiraga.

Isekuro nka kimwe mu bikoreshasho bidufasha kubona ifu. Cyane cyane ubugari, bitagombye kujya kubetesha ku urusyo. Iyo bamaze kuyisekura, bashyira mu kayuguruzo, bakayungurura ibigenda bisigara bakongera kubishyira mu isekururo bakongera gusekura paka byose birangiye. Bigatuma ifu y'ubugari iboneka bitabaye ngombwa ko umuntu ajya kubetesha ku rusyo rusanzwe.

Ingoma ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abanyarwanda，kugira ngo babashe kubyina no kwidagadura mu gihe cy'ibirori， n'indi minsi mikuru，kandi ugasanga birashimishije cyane.

Kugosora ni umurimo ukunze gukorwa n'igitsina gore. Bagosora imyaka nk'ibishimbo baba bamaze guhura, ibigori bamaze guhungura. Bagosorera ku ntara ku aho biba biri nko ku mashitingi, kugira ngo batoranyemo ibikenewe, ibyatsi birimo babishyire ku ruhande nuko bibasha kumera neza.

Ibikoresho byakoreshwaga kera basya amasaka cyangwa se n'amakoma n'amamera, kugira ngo babone ifu yo kuba bakwenga umusururu, ndetse babone n'ayo kuvanga mu rutoke cyangwa se mu mineke baba bari gukama kugira ngo babone urwagwa, usanga rero ari ibintu byiza cyane bakoreshaga urusyo rw'ibuye n'ingasire bapfukamye.

Igisabo ni igikoresho gakondo cyifashishwaga mu gucunda amata. Abagore cangwa se abakobwa nibo bakundaga gucunda bicaye hasi ku mikeka ariko rimwe na rimwe hari igihe bicaraga nko mu gacaca, barayacundaga gakavura gakavamo ndetse amavuta y'inka.

Kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu rwanda kandi bikaba bifite akamaro kuko bisimbura amasahane y'iki gihe. Bituma abantu bashiraho imbuto cg se impekeke kugira ngo igikorwa cyo kuriraho cyangwa se no kugosora kibashe kugenda neza.

Mu igitaramo abana b'abahungu bakenyeye, bafite inanga, bari gucuranga, barizihiwe, ndetse n'abakobwa babateze amatwi, bigaragara ko bari mu muco nyarwanda, ku uburyo bishimye kandi bakaba banezerewe kuri uyu mugoroba.

Ibimera byinshi byifashishwa nk'umuti gakondo. Ku buryo abantu bawivurisha bitabaye ngombwa ko baja ku bitaro. Kuko na kera abantu bajaga mu bavuzi gakondo kandi bagakira, nanubu imiti myinshi ikoreshwa mu Karere kacu, usanga ari ijanye n'ibimera bihingagwa.

Mu bikoresho gakondo byakoreshwaga canecane nko mu mirimo yo mu rugo ndetse n'iy'ubworozi, hakoreshwagamo inkongoro mu gihe co gukama inka, ibyibo byo kugemuriramo abantu ndetse n'inkoko zo kuriraho. Inkongoro rero zigira akamaro ko gushirwamo amata iyo basoje gukama cangwe se bahumuje, ni amata aba aryoshe cane.

Ababyinnyi ni abantu beza cane bashimisha abantu mu gihe c'imyidagaduro ndetse no mu gihe c'ibitaramo bakagaragaza umuco w'igihugu kandi bakamenya neza no guharanira uburenganzira bw'abantu babaha ibyo bakeneye mu byishimo baba babatezeho.

Mu muco nyarwanda habagamo kuvuza ingoma mu gihe cy'ibitaramo ndetse zikavuzwa n'abantu bazwi ku izina ry'abakaraza, babaga bambaye imyenda yabugenewe, bigaragaza ko ari abantu b'ababyinnyi. Ingoma rero zigira imirishyo, kandi bakazikoma mu buryo bwumvikana bw'uruhererekane.

Igisoro ni kimwe mu mikino ikinwa cyane cyane n'abantu bakuze usanga barambuye akantu bari gushyiramo utuntu tw'utubuye bagakina. Usanga ari umukino ushimishije cyane kandi ukaba ari umukino abantu bakunda rwose kubera ko wakinwaga no mu bihe bya mbere ariko nubu ukaba ugikinwa.

Inkoko ni bimwe mu bikoresho byiza cyane kuko bigira uruhare mu kuba abantu babyifashisha mu kugosora nk'imyaka, cyangwa se no kubiriho. Zishobora kubohwa mu buryo bwinshi hakoreshejwe nk'imigano, n'ibindi bikoresho biba bimeze neza cyane, ugasanga byifashishwa muri byo bikorwa byo mu rugo.

Inanga n'ibindi bikoresha nk'ingoma, ni ibikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, ariko n'ubu bigikoreshwa kugira ngo bibe byatanga injyana imwe, binezeze ababyumva kandi bishimishe n'ababikora kuko bituma binanura.

Ubukorikori n'ibikorwa abantu bakoraga kera, na nubu bigikorwa. Kuko usanga babohamo nk'ibyibo, ibiseke, inkoko, n'intara. Bakoresha ibikoresho biboneka, bitanga amafaranga n'imirimo ya hato na hato abantu ntibabe mu bushomeri bukabije.

Mu bikoresho gakondo by'abahanzi bo hambere, habagamo iningiri, inanga n'umuduri .N'ibindi bikoresho bizwi mu mazina y'ibikoresho gakondo. Abantu rero barabicurangaga ,ugasanga biryoheye amatwi, bikanezeza ababyumva ndetse n'ababikoresha. Bakabasha kwiyungura ubundi bumenyi.

Ku umunsi w'umuganura ibiryo birateretse. Ibigori, umutsima, uburo n'amasahane yo kwarurira ho n'inkoko. Ni ibiryo bimeze neza n' umutsima ufite ibice bine ku uburyo buri wese yafata ikirobe, ndetse n'ibirayi biri mu ayandi mabakure.

Mu bikoresho gakondo hari ibizwi nk'imivure ndetse bakoresha mu gukama no kugira ngo babone umutobe w'umwimerere, hakoreshejwe imineke iba yavuye ku bitoki byatazwe bigashya.

Abakobwa bo mu Ntara y'Amajaruguru bakundaga kubyina, natwe tukaja kubareba, ku buryo usanga ari ibintu byiza cane. Bataka amaboko bambaye n'imyenda y'imishanana, bafite n'utuntu mu mutwe ku buryo baba bameze neza cane. Ni abantu baba bazi kubyina no guhamiriza, rimwe na rimwe bakaba bambaye n'amayugi.

Umwuko ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga kuva kera ariko na n'ubu birakoreshwa. Umwuko rero w'indosho usimbura ibiriko by'ubu kuko ni wo badahisha ibiryo mu nkono bari gushyira nko ku masahani cyangwa se ku nkoko, ni umwuko ukozwe mu giti ufukuye umeze neza cyane.

Ibirago ni kimwe mu bikorwa abantu bakora, bakabiboha kugira ngo babe babyanikaho imyaka cyangwa se bakaba barabiryamagaho mu gihe cyo hambere, ariko n'ubu biracyakoreshwa kuko biba bigaragaza umuco Igihugu cyubakiyeho.

Abakobwa ni bamwe mu bantu bambaraga utuntu mu mutwe， kugira ngo babashe kunezeza ababareba， bafashe n'amata bambaye n'imikenyero， bikaba byarakorwaga mu birori bimwe na bimwe， aho wasangaga banejeje imbaga y'abantu babakurikiye.

Urusyo rwifashishwaga kera mu gusya amakoma cyangwa se n'amasaka, kugirango babone ifu yo kunywa igikoma yo kunywamo igikoma, ndetse baba banashigishamo n'umusururu kugira ngo bakoreshe nk'ubukwe bafite ibinyobwa bihagije.

Uducuma ni tumwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, ariko n'ubu bigikoreshwa kuko bashyiramo umusururu, cyangwa se bagashyiramo urwagwa bakanywesha umuheha. Baba babiteretse nko ku nkoko no ku birago, kugira ngo bigire ubusugire bwa byo, ndetse bakaba banakoresha n'ibindi biba bizwi nk'inzuho n'urukiza.

Inkono ni bimwe mu bikoresho, byakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere, bakaba babitekagamo cyangwa bakanabitsimbamo, ku buryo wasangaga itabaye ngombwa kubakoresha amasafuriya, ahubwo bagakoresha izokono ziba zikozwe mu bumba, nk'ibikoresho byiza byo mu rugo.

Gusimbuka ni kimwe mu bikorwa byakorwaga kuva na kera, aho basimbukaga urukiramende mu gihe cy'abami cyangwa se no mu gihe cya kera. Ubwo rero gusimbuka ni nka siporo rusange, iba igamije kugira ngo abantu bananure imitsi, bamenye gutaruka ndetse bamenye no gusimbuka mu buryo bufatika.

Abaturage benshi hari igihe badakoresha imodoka bagiye kwa muganga bagakoresha nk'ingobyi, baba ari abagabo bane, babiri imbere n'abandi babiri inyuma. Bakayiterera ku rutugu ubundi umurwayi bakamugeza kwa muganga.

Abakaraza ni bamwe mu bantu babyina, bakanavuza ingoma mu buryo bwa gakondo bijanye n'umuco w'igihugu. Ni abantu bashimisha abantu cane mu gihe c'ibirori by'imyidagaduro gakondo, kandi bakagira uruhare mu gushimisha no gushimangira umuco nyarwanda.

Igisabo ni bimwe mu bikoresho byabaga mu Rwanda rwo hambere, ariko n'ubu bigikoreshwa. Ibisabo rero, bashyiragamo amavuta cyangwa se amata, mu kuyacunda kugira ngo haboneke amavuta ari yo bayitaga amavuta y'inka. Ubwo rero byagaragazaga umuco mwiza kandi bigatuma ayo mavuta aboneka, kugira ngo abantu bayisige.

Mu muco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda hari amabara yakoreshwaga ndetse afite amashusho ngero ameze nk'urukiramende, ameze nka mpande eshatu, cyangwa mpande enye ndinganire n'izitaringaniye, ku buryo ari na byo bimenyetso byakoreshwaga kugira ngo umenye ku bijyanye n'umuco w'igihugu cyacu kuri ayo mabara n'amashusho,

Mu muco wacu harimo gukoresha n'ibikoresho gakondo, biba byarakoreshwaga kera nk'uruho, ibisabo cyangwa n'ibindi biseke n'ibirago. Kuko usanga ari ibintu bimeze neza cyane bikoreshwa mu muco nyarwanda.

Uducuma ni tumwe mu dukoresho twakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere ariko n'ubu tugikoreshwa, basukamo umusururu cyangwa urwagwa n'umutobe, barangiza bagashiramo umuseke bakawunyweraho, kugira ngo babashe kurya neza no kuwufungura, baba bariye bakarenzaho iyo nzoga baba bamaze kunywa.

Imyuko, imbabura, imbizu ni bimwe mu bicuruzwa, bicuruzwa iwacu kandi bigakundwa cyane, kubera ko byifashishwa umunsi ku munsi. Nti washigisha igikoma utifashishije umwuko, nti wakora isuku udakoresheje imbizu, kandi ntiwateka udakoresheje imbabura, igihe cyose ufite amakara.

Mu gihe cya mbere abantu barangwaga no gukoresha uburyo bwose bahagarara ku muco wabo, haba mu nyogosho, mu myambarire ndetse no mu miterere yabo, ubwo rero ibi bikorwa byagaragazaga umuco w'igihugu ugasanga ni ibintu byiza cyane bitavangiye bikaba ari umwimerere.

Imbyino gakondo zikunze kuririmbwa n'abantu bo mu ntara y'amajaruguru, usanga bamwe babyina abandi bakabaririmbira ku buryo usanga ari ibintu binejeje cane, ndetse ugasanga na ba mukerarugendo barabikunda natwe ubwacu tujaga kureba ukuntu abantu bari kubyina, tukaba twahigira n'umuco ujanye n'akarere kacu.

Ibimera byinshi byakoreshwaga nko kuvura cyangwa se kuribwa, ni ibimera abantu bahingaga ku buso butoya ariko ugasanga bitanga umusaruro mwinshi mu gutunga urugo no mu kumenya iby'umuco wacu wari wubakiyeho kuva kera kugeza ubu.

Ingoma n'ibindi bikoresho gakondo nk'ibyibo ndetse n'ibindi usanga ari ibintu bikoreshwa mu muco nyarwanda, kugira ngo abantu babashe gusigasira uyu muco utazacika mu bihe biri imbere cane cane nk'ingoma zavuzwaga mu gihe co kuranga, cangwa se kuvuga ikintu runaka ko kiri bube.

Umwami Rudahigwa n'umugore we Rozaliya Gicanda bari bicaye bari kunywa mu birahure, igihe bari bagiye mu nama ndetse bari bameze neza cane basokozaga amasunzu n'ibisage, bakambara imikenyero nyarwanda ku buryo bambaraga bijanye n'umuco gakondo.

Abantu babiri b'abagore bari kuboha ikirago. Bambaye n'udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covidi cumi n'icyenda, kubera ko begeranye, kandi bikaba biraba ngombwa yuko badahana intera.

Ihembe ry'inyamaswa: ni ikintu cy'igikoresho yifashishaga mu gukoresha nk'ibikoresho runaka, barabitoboraga bakaba banabyambara cyangwa se bakabikoramo n'ibindi bintu bakeneye umunsi ku munsi.

Iyi ni hoteri nziza igezwe ho iri mu majaruguru, ubwo abakerarugendo bakunze kuzifashisha bakazirara mo, igihe baje gusura ingagi zo mu birunga. Nawe turakurarikira kuba waza, ukarara muri iyi hoteri iri mu majaruguru y'u Rwanda.

Mu bikoresho byo mu Rwanda rwo hambere habagamo ibikoresho bimwe na bimwe nk'inkono, uduseke, inkoko n'intara. Bikaba byarifashishwaga mu gukemura ibibazo baba bafite, ndetse bakabyifashisha mu kuba baje nko kuvoma, kubarama batwayemo nk'imyaka, bagiye gusura abantu runaka.

Imirimo y'ubukorikori ni imirimo ifitiye igihugu akamaro, kandi igezweho muri iki gihe, kuko ikundwa na ba mukerarugendo, ndetse n'abandi bahatuye ugasanga bifashisha ibyo bikoresho biba byakozwe, usanga bibereye amasoso, ku buryo byaba imitako cyangwa byifashishwa no mubuzima busanzwe bw'ibikoresho byo mu rugo.

Umusururu ni kimwe mu binyobwa bikundwa cyane, mu ntara y'Amajyaruguru. By'umwihariko bigakundwa, n'abantu bakuze. Umusururu uva mu mafu y'amasaka, ndetse azwi nko ku izina ry'amamera, abavanzemo n'ibindi bintu, bituma uwo musemburo uboneka, ukaba uryoshye cyane.

Ababyinnyi gakondo usanga bubahiriza umuco nyarwanda ushingiye ku kubyina, guhamiriza ndetse no gutaka amaboko. Baba bafite ingabo n'ibihura, barabyinaga ugasanga abantu benshi basusurukijwe cane cane nko kwita izina, mu bukwe ndetse no mu bindi birori byose biba bibaye muri aka gace.

Abantu babyina mu by'iwacu usanga ari abantu bazi kubyina cane, ndetse n'abakerarugendo barazaga bakiga kuvuza nk'ingoma ,ugasanga ni ibintu bibanejeje cane natwe ubwacu tubatumva bijanye n'umuco wacu, umuco gakondo rwose tukawusigasira, babyinira impande y'amazu y'ibyatsi nk'amazu ya kera nyine.

Mu bikoresho by'ikoranabuhanga usanga harimo n'aho gucaginga ko gushyira ibindi bikoresho bacomekaho by'umuriro, ugasanga rero abantu bakwiye gushyira imbaraga mu ikoranabuhanga kugira ngo igihugu tukijyane aho gishaka kugera mu rwego Mpuzamahanga no mu cyerekezo isi yacu ikeneye.

Insinga z'amashanyarazi ni insinga ziba zinyurwamo n'umuriro， bigatanga urumuri cyangwa se bigatanga n'ubushyuhe ahantu， kugira ngo ibikorwa biba bikenewe amashanyarazi byose bibashe gukora， ahantu ahariho hose mu mazu rusanga birimo， ndetse n'insinga ziba zinyuze hejuru mu kirere， bigatanga umuriro w'amashanyarazi dukenera.

Ikoranabuhanga ni ibikorwa bikomeje guteza imbere igihugu cyacu muri iki gihe, kuko bituma u Rwanda rugana aho rwifuza mu iterambere ry'isi yose muri rusange. Turasabwa rero gukoresha ibikorwa by'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kwiteza imbere, tubashe no kurengera ibidukikije.

Mu bikoresho by'ikoranabuhanga haba harimo n'ibitanga amashanyarazi, ku buryo abantu bashobora kubyigiraho bakivumburira n'ubundi buryo bwo gukora ibikorwa remezo bibanogeye, bishobora gutanga umuriro wamashanyarazi n'amatara, ndetse bakaba babyifashisha no mu bundi buryo busanzwe.

Bashushamo amazi yo gukaraba. Babifungura bakoresheje amaburo aba abigeze, bagacomeka ku muriro w'amashanyarazi, maze bamara kuyashusha bagahita bayakaraba. Ni ahantu baba barabishize mu mazu meza cane, aba afite n'amarangi y'umweru cangwa se y'umuhondo.

Akantu gatobora nk'ibiti kaba kaburungushuye bagacomeka ku muriro, noneho ugasanga igihe bagacometse gahise kikaraga kagakora intoboro nini ishobora kujamo ibindi biti cangwa se n'ibindi bakeneye gushiramo. Baragacomekaga rero ku muriro kugira ngo gakore uwo murimo, biborohereze gutobora.

Mu nsengero ni ahantu haba hatuje hagaragara amashusho ashobora kugaragaza imyitwarire y'aho hantu, ndetse n'uburyo bwo gusenga kandi bigatuma abantu bose baca bugufi imbere y'Imana, bakabasha kubana neza n'imiryango yabo biturutse mu nyigisho bahabwa.

Harimo no kuba bashobora gusesa imirama, ishobora kuzavamo ibindi bimera by'ubutaha, kuko bashobora gutera nk'utugemwe runaka, ugasanga rero ni uburyo bwo kongera umusaruro w'abaturage, n'ibihingwa abantu baba bategerejeho umusaruro wo kurya no gukuramo amafaranga.

Ibigo by'amashuri ni ibigo bikwiye kubakwa mu buryo bwiza cyane kugira ngo abana bahabonere ubumenyi ndetse n'abarimu bahabonere akazi, n'ababyeyi usanga babyungukiramo kubera ko boherezayo abana ugasanga bari kurahakura uburere bwiza buhamye.

Mu nyubako zigezweho harimo izubatswe nk'amayetaje kugira ngo zibashe kujya ahantu hari ubuso butoya, kandi zirimo ibyumba byinshi byo gukorerwamo. Hari igihe haba hari nk'amashuri cyangwa n'ubundi bucuruzi buba bukorwa muri ako gace.

Inzu nziza iba yubatswe ahantu hameze neza hagari hisagaguye, ku buryo bashiraho n'urupangu. Noneho bagashushanyaho n'utuntu twiza turesha nk'abakiriya bo kuba bagana aho hantu, mu gihe haba hakorerwa nk'ubucuruzi cangwa nk'inzu zo kuba bararamo igihe baba bashaka nko gucumbika.

Hoteli nyinshi ziba zubatswe mu buryo bugerekeranye, buzwi nk'amayetaje, ni ahantu haba hameze neza cyane ku buryo abantu basohokeramo abandi bakajya kuriramo bakaba banararamo, ni hoteli ziba zimeze neza cyane zifite ubusitani, zifite amarangi meza ku buryo ubona ari ahantu haboneye amaso ndetse, hakaba hanaruhukirwa na ba mukerarugendo.

Inzu yubatse mu Mujyi wa Musanze ahitwa ku magare ni iy'Urukiko gw'Akarere ka Musanze, iriho n'idarapo ry'igihugu. Ni inzu ifite amabati g'umutuku n'amarangi g'umweru ndetse n'amadirisha menshi cane.

Imisigiti ni kimwe mu bikorwa remezo byo gusariramo ku bayisilamu, ni ahantu heza cyane haba havugirwa ubutumwa bwiza buturutse ku Mana kandi bikagira uruhare mu kubanisha neza imiryango y'abantu baba binjiriramo .Ni ibikorwa byiza rero abantu bashishikarizwa kuba bajyamo umunsi ku musi.

Inzu zo ku muhanda kenshi baba bazikoreramo nka papetori zo gufotorera abantu ibyangombwa byabo ,bajaga barazikora noneho ugasanga bashiramo n'ubundi bucuruzi kandi noneho ziba ari inzu nziza zimeze neza zifite nk'amarangi, amakaro hejuru ndetse n'ibyapa biranga imirimo ikorerwa aho hantu.

Imidugudu ya kijambere ni imidugudu iba imeze neza cane, barayubaka ku buryo amazu aba yegeranye bagateraho ubusitani, bagashiramo n'umuriro, ni amazu aba yubakishijwe amadafari ahiye ndetse bagateraho n'ibyatsi ku mpande byo kuba bakwanikamo nk'imyenda cangwa se no kwicaramo.

Imidugudu igezweho barayubakaga bagashiraho ndetse n'utuntu two kugira ngo abantu batanyagirwa baba bugamye, ndetse bakayubakisha amatafari ahiye ku buryo usanga ari amazu y'uruhererekane yegeranye cane ,abantu bayabagamo usanga baba bameze nk'abantu nyine bateye imbere cane.

Imidugudu y'iki gihe, ni imidugudu iba yubatswe neza mu buryo bwamayetaje kandi ikaba yubatswe ahantu hatoya, ariko ikabamo n'imiryango myinshi. Ni imidugudu usanga ari ahantu heza h'ibikorwaremezo haba hegereye ku muhanda, hafite ibyangombwa byose bikenewe, nk'umuriro, amazi ndetse n'imihanda.

Hari ahantu henshi haba hagoye kuhashira ibiraro bisanzwe byanyuraho nk'imodoka. Noneho mu buryo bwo korohereza abaturage cyangwa abantu baturiye nk'aho, bahashiraga ibiraro byo mu kirere by'imbaho biba biriho n'amaferabeto ku buryo usanga byorohereje abaturage bagendaga aho ng'aho.

Amazu menshi meza aba yubatse ku muhanda, akorerwamo imirimo ya Leta nk'inkiko, imirenge, utugari, cangwa se n'izindi serivise baba batangaga. Kuri kaburimbo rero ni ahantu heza cane ho gutura kuko hanyura n'ibinyabiziga ku buryo no gutega usanga nta kibazo, byoroshe.

Ishuri ni kimwe mu bikorwa remezo bigirira abantu benshi akamaro. Bituma abanyeshuri babasha kwiga neza, bakunguka ubumenyi bushobora kubatunga mu gihe kizaza, kandi bigatanga n'akazi ku barimu baba barize uwo mwuga. N'ababyeyi barabyishimira, kubera ko babona aho abana babo birirwa.

Insengero ni zimwe mu nyubako zikenewe cyane muri iki gihe, kandi zikwiye gushyirwamo imbaraga, kugira ngo zibe ziri ahantu hameze neza cyane, abazisengeramo babe bafite umutekano, bafite isuku kugira ngo babashe kumva ubutumwa bwubaka umuryango n'igihugu muri rusange.

Insengero ni zimwe mu nyubako ziba zubatswe neza cane, kuko zigira n'uruhare mu guteza imbere abaturage. Babarinda ibintu by'ingeso mbi n'amacakubiri. Ni ahantu rero hasengerwa n'abantu benshi kandi hagahurirwa n'amakorali n'abavugabutumwa, ku buryo usanga bigira uruhare mu kubaka umuryango nyarwanda.

Inyubako zose abantu bubaka babagomba kuzizitira, kugira ngo bagire ubusugire bwazo, bashobora kuzitiza ibyuma cyangwa se n'ibindi bikoresho nka senyenge, kugira ngo abantu badapfa kwinjiramo uko biboneye bakaba bakwangiza ibirimo.

Mu bikorwa bya leta haba harimo ibikorwa byinshi bijyanye n'ibikorwa remezo, muri byo twavuga nk'insengero, amagereza, amasoko, inganda, ndetse n'ahandi hantu hose hashobora gukorerwa imirimo ijyanye na leta n'ibigo leta ikoreramo.

Ibiraro byo mu kirere ni bimwe mu biraro biri kubakwa cyane cyane mu ntara y'amajyaruguru, kubera ko ahenshi usanga ari ahantu hagari ku buryo batashyiraho ibiraro bisanzwe, babyubaka bakoresheje imigozi n'amasenyege ku buryo abaturage babinyuraho bikaba byakoroshya ubuhahirane bw'uduce n'utundi.

Ibiraro ni kimwe mu bikorwa remezo bikenewe cyane, kugira ngo haboneke ubuhahirane bw'agace kamwe n'akandi, kandi usanga ari ahantu haba hakenewe kugira ngo abantu bambuke imigezi n'imodoka zihanyure, ndetse n'ibindi binyabiziga bitwaye ibikoresho, bitwaye ibintu ndetse bitwaye n'abantu.

Abayobozi ni abantu tuba dukeneye cyane cyane nk'abaturage kubera ko batugirira umumaro mu kuduteza imbere no kudutekerereza ejo heza hazaza. Badufasha gushyira mu bikorwa gahunda tuba twayemeje zijyanye n'iterambere, ku buryo turigeraho mu buryo bwihuse kandi bunoze.

Mu bigo bya Leta, haba harimo n'ibigo by'abapolisi, biba bishinzwe ubugenzuzi bw'amamodoka, cyangwa se n'ibindi binyabiziga, kugirango ibishaje niyo byaba bidagifite ubushobozi, bwo gukora bikurwe mu muhanda, bitaba byajya birateza, impanuka za hato na hato.

Muri iki gihe usanga Leta y'u Rwanda iri kubaka amasoko ya kijyambere ku buryo usanga buri wese azacururiza aho azabona hisagaguye. Ni amazu aba asakajwe amabati ndetse afite n'inkingi nziza cyane bigaragara ko aba akomeye. Kandi aba ari ahantu hisagaguye cyane rwose ku buryo n'abantu batubaramiye usanga tujya kuhabereka.

Inama ni kimwe mu bikorwa byiza cane kuko bituma bihuza abaturage bakabasha kumenya imiterere y'Igihugu cabo n'imiyoborere baba bafite. Kandi buri wese akabasha kuba yaba azi ikibazo afite. Mu rwego rwo kuba aho kwirindwa amakimbirane cangwa se n'ibindi bikorwa byabangamira ubuzima bw'umuntu.

Abayobozi ni bamwe mu bantu badufasha cyane kugira umutekano no kugira uruhare mu bidukorerwa kuko batugezaho imigabo n'imigambi igihugu kiba kitwerekezamo, niyo umuntu afite ikibazo arakibaza bakagikemura mu mahoro ntawe babangamiye, ubwo rero ubuyobozi bwiza ni ubwegereye abaturage kugira ngo tubashe kumenya ibidukorerwa.

Inama ni igikorwa gihuza abantu benshi b'abaturage n'abayobozi babo, bakabaganiriza kuri gahunda za Leta ziriho, bakamenya uburenganzira bwabo, inshingano, bakaba babarizaho n'ibibazo bikaba byakemurwa nta muntu bibangamiye.

Inama ni kimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi, kandi bagafata umwanzuro ukwiye, wo kugira ngo niba hari abantu bafite ibibazo, bikemurwe, ndetse n'abafite ibyifuzo bisubizwe. Bituma rero dusubizwamo, n'ubuyobozi bwacu tuba twarishyiriyeho, kugira ngo tubashe kumenya uburenganzira n'inshingano zacu mu gihugu.

Inama ni kimwe mu bikorwa bihuza abaturage benshi n'abayobozi babo, ibi bigatuma haba hashoboka kugira ngo abantu bakemurirwe ibibazo, bamenye uburenganzira bwabo, ariko kandi bamenye n'inshingano baba bafite mu kugira uruhare rwo kuzamura iterambere ry'agace batuyemo.

Inama ni kimwe mu bikorwa bihuza abaturage benshi n'abayobozi babo, bigatuma bamenya ubuzima bwabo bw'igihugu kandi bigatuma habaho kumenya uburenganzira n'i nu n'indi mitekerereze y'abantu baba bari kumwe muri ako gace. Ni ibikorwa byiza cane rero abantu bashishikarizwa kwitabira.

Abagore nabo ni bamwe, mu bantu batwara amagare, ku buryo baba twayeho nk'ibicuruzwa, cangwa se ibyo bavanye mu mirima, usanga rero ari abantu beza cyane, bashoboye kandi ugasanga batanga umusaruro, mu kugeza ibicuruzwa ,n'ibiribwa hirya no hino, mu gihugu.

Amagare ni bimwe mu binyabiziga byiza cyane, kuko byoroshya ingendo, usanga n'abanyeshuri bayagendaho bajya ku mashuri, cyangwa se n'abandi bantu baba bagiye mu kazi kabo ka buri munsi. Kubera ko akenshi ni igikoresho abantu bashobora kubona mu buryo butagoranye, kuko atagura amafaranga menshi cyane, ugereranyije n'ibindi binyabiziga.

Imodoka zitwarira abantu hamwe， ntabwo ziba ari iz'amakwasiteri gusa. Hari n'igihe usanga ziri mu bwoko bw'amafuso， abantu bakajyamo ari benshi bavuye nko mu kazi runaka， nk'igihe bakora imihanda， cyangwa se bavuye no mu yindi mirimo itandukanye，hari abantu rero baba bazigendamo， abandi bagenda ku magare， abandi bigendera n'amaguru bisanzwe.

Ubwikorezi bw'amamoto ni ubwikorezi baba batwaraho ibintu inyuma y'aho umugenzi yicara, bakabihambira ku buryo bitagwa kandi ugasanga bikoreye ibintu byinshi cyane. Aho bashobora gutwara nk'ibitoki, ibirayi cyangwa se n'ibijumba ariko bakabigeza mu masoko aho bakeneye kubijyana.

Ku muhanda wa kaburimbo moto itatu zirahagaze, ziriho abagenzi bashaka gutega bakagenda, hari n' undi mukobwa uturutse hirya nawe uje abagana; ni umuhanda umeze neza cyane ufite naho guparika ama moto, n' ibyapa bibiri biranga aho abagenzi bajya.

Mu bigo bitanga amashanyarazi harimo n'iby'imirasire nka bibogisi, ku buryo usanga ari ibikoresho bifitiye abaturage akamaro. Kuko n'ahatageze umuriro w'amashanyarazi wa ewasa usanga bakoresha iyo mirasire ku buryo usanga ari ibintu binogeye abaturage kandi bikabaha urumuri no kuba bacaginga amaterefoni bakaniteza imbere.

Imodoka zipakiraga imifuka y'amakara ziyajanye mu masoko hirya no hino, ziba zirimo n'abantu barapakurura iyo mifuka y'amakara. Ni imodoka ziba ahanini zifite n'amakarisore ku ruhande, ku buryo zijagamo imifuka myinshi cane.

Amagare ni kimwe mu binyabiziga bikundwa n'abantu benshi kuberako bitanga uburyo bwo kugenda mu buryo bworoshe kandi bikaba bica amafaranga makeya ,ikindi ni uko buri wese afite ubushobozi bwo kuba yagura igare, ku buryo usanga aribyo abantu baheraho mu binyabiziga mbere y'uko bagura amamoto n'amamodoka.

Uburyo bwo gutwara abantu bwa rusange bukorerwa cyane cyane muri za gare buba bunoze cyane, kuberako abantu batondeka imirongo kugira ngo bajye mu mabisi baba bakatesherejeho amatike .Abantu rero barasabwa kuba bagenda bafite amafaranga ahagije ,kuko niyo zibuze bashobora gutega wenda na za moto igihe amamodoka atabonetse.

Utuzu abantu bicaramo ku mihanda tuba twarashizweho na leta, kugira ngo abantu baba bari mu ngendo babe baharuhukira, cangwa se no kuhugama igihe c'imvura iguye, n'abandi bananiwe bashobora kwicwa n'izuba bakaba bakwiyicariramo, bagakomeza urugendo nta kibazo.

Kuri ubu hari ingendo nyinshi zikorwamo mu mamodoka hakoreshejwe amakarita azwi nko ku mazina ya tapendigo. Ni amakarita bashyiraho amafaranga bakayagenderaho, ugasanga ni ibintu byiza cyane kuko bituma abantu batishyura mu ntoki ku buryo amafaranga ashobora nko kubagwaho.

Abamotari ni bamwe mu bantu bagira uruhare runini mu kuzamura ubukungu bw'abantu, kuko bituma babona aho kunyura mu buryo bworoshye bugereranyije n'amamodoka. Hari amamoto rero yaje, aba afite za batiri zicagingwa, kugira ngo zidatwara esansi nyinshi, zangiza n'ikirere.

Abanyonzi ni bamwe mu bantu bafitiye igihugu akamaro，kubera ko borosha uburyo bwo kugenda. N’amagare yabo usanga ameze neza cane，n'abafite imisego inyuma yo kwicaraho， kandi baba bambaye amajire abaranga， nk'abantu bakorera mu makoperative.

Uburyo bwo gutwara abantu bwa rusange，ni uburyo bwiza cyane kuko bituma abantu bagendera hamwe， kandi bakagera iyo bagiye bumva nta kibazo. Ni ibikorwa rero biri gushyirwamo imbaraga， mu buryo bwo kujyana abantu hirya no hino，kandi bakagerayo nta kibazo.

Ubwikorezi ni kimwe mu bintu bikenewe cyane muri iki gihe，kuko bituma umuntu iyo avuye ahantu agiye ahandi，afite n'imitwaro， biba byoroshye， kugira ngo ayigezeyo， bajya barazitega. Hari n'aho bakatira amatike，ku buryo usanga ari ahantu hatanga akazi，ariko hakanoroshya， urugendo rw'urujya n'uruza.

Imodoka ni kimwe mu binyabiziga bikundwa cyane n'abantu， kubera ko iyo uvuye mu gace ugiye mu kandi，urazikenera kugira ngo uzigendemo. Ziba zikora ingendo ndende kandi zitananiwe，bigatuma byakoroshya ingendo hagati y'abantu n'abandi， noneho bikaba byanagira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu.

Imodoka yikoreye imifuka. Ijanye imitwaro nyinshi zimwe ziri hasi izindi zigeretse hejuru. Ni mu muhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti byiza, ariko imvura yaguye ku buryo kugenda bisa n'ibiri kuyinanira.

Ahantu hateranira abantu benshi bagiye gutega amamodoka, hazwi nko ku izina rya Gare, ni ahantu haba hagomba kugira umutekano w'abantu n'ibintu byabo, kugira ngo hatagira ubangamirwa, no kuba agiye gutega imodoka, zimukura ahantu zimujyana ahandi.

Izi imodoka zitwaye umucanga ziri gukora guno muhanda zigukuye muri Vunga kandi ziri gukora n'ibiraro kugira ngo abagenzi baje banyuramo. Ni imodoka zibiri zifite n'amapine, zimwe ni imodoka z'umutuku.

abanyonzi ni bamwe mu bantu borohereza abantu gukora ingendo za bugufi n'iza kure kandi ugasanga baca amafaranga makeya ugereranije n'ibindi binyabiziga ba bibumbiye mu makoperative kandi bakaba bafite n'ibyangombwa bemerera gutwara ku buryo usanga ari umwuga ukorwa n'urubyiruko cane cane baba basore

Abamotari ni bamwe mu bantu bafitiye akamaro abaturage kuko iyo umuntu yabuze ico gutega arabategaga noneho agahita yihuta akagera iyo yajaga vuba. Noneho ugasanga nk'imodoka niba wenda yatinda bitewe n'umuhanda uko guteye ariko moto inyuraga aho ishaka ku buryo ikugezayo nta kibazo.

Siporo ni igikorwa cyiza cyane kibungabunga ubuzima bw'abantu, kuko usanga inura ingingo z'umuntu wayikoze. Ubwo rero basiketiboro, ni imwe muri siporo zikunzwe cyane, abantu bananuriramo amaguru n'amaboko yabo, ku buryo usanga bafite ubuzima bwiza, igihe bamaze kuyi...

Siporo ni kimwe mu bikorwa byiza cane kuko bigira uruhare mu kugira neza ubuzima bw'abantu, ni siporo ishobora gukorwa n'abantu bakeya cangwa benshi kandi ikabamo ibice bitandukanye by'igihugu. Ni siporo ishobora gukorwa mu bika byinshi harimo nk'umupira w'amaguru, handibolo, volebolo, tenisi cangwa se no kwiruka, na za marato.

Siporo ikorerwa hamwe mu mazu iba ari nziza cane, kuko abantu bakinaga neza bakishima, bakagorora ingingo zabo. Abakobwa ndetse n'abandi nabo barayikora ku buryo usanga ari ibintu bishimishije cane.

Siporo ni igikorwa cyiza cyane gituma abayikora bagira ubuzima bwiza kandi bakanezeza n'ababareba, usanga abenshi mu rubyiruko bakora uyu mwuga kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, nk'abakobwa ndetse n'abandi bantu bose barayikora ntawe usanga iheza ni igikorwa cyiza cyane.

Siporo ni igikorwa ciza cane abantu bakwiye kuja bakora bakagishiramo imbaraga, kuko kigira uruhare runini mu kugira neza ubuzima bw'abantu, amaraso agatembera, imitsi ikananuka ndetse abantu bagakura bamerewe neza cane, nta mavunane.

Umukino wa tenisi， ni umukino abantu bajya barakina ari babiri，barenza agafire kaba karimo hagati. Barawukina ugasanga ni umukino mwiza cyane，w bakoresheje akantu kameze nk'akuko， kaba kaboheranyije， ugasanga ni umukino rwose ushimishije abawureba， ndetse ukanatuma ingingo z’abawukina zigororoka.

Kaburimbo ni imihanda iri gushyirwamo imbaraga muri iki gihe, kuko ituma habaho ubwikorezi n'ubuhahirane hirya no hino mu duce tw'igihugu dutuyemo. Abantu benshi bagendera ku ruhande kandi ugasanga bameze neza cyane bakaba banyuzamo n'amarushanwa y'amagare.

Umukino wa tenisi ni umukino mwiza cyane, abantu bakina ari babiri babiri bakoresheje amatenesi, n'udupira tuba turimo hagati mu bibuga bitagira isima. Kugira ngo batagwa bakwangirika. Uhuza abantu bagasabana, kandi bakagira n'ubuzima bwiza mu kugorora ingingo zabo.

Umupira w'amaguru ni imwe muri siporo zikunzwe n'abantu benshi cyane, kubera ko zigira uruhare mu kugira neza umubiri w'umuntu ,kandi zikabera n'amaso ku bawubona, ubwo rero ni umupira mwiza cyane, abantu bararikirwa kuba bakora, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza muri igihe.

Ibikorwa by'imikino n'imyidagaduro ni ibikorwa byiza cyane, usanga bikorwa e by'umwihariko n'urubyiruko, ariko n'abakuze barabikora. Nk'imikino ijyanye wenda na Vole cyangwa se n'indi mikino yose usanga igira akamaro mu kunanura umubiri no kuwuha imbaraga zo gukomera.

Sitade amahoro ni sitade imeze neza cyane ijyanye n'igihe, muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, iyo sitade yubatswe neza mu buryo bw'uruziga, ikaba ifite n'ibindi bibuga ku ruhande byo kwitorezamo. Ituranye na beka Arena iri mu mugi ahantu hameze neza cyane.

Siporo ni igikorwa abantu bakora mu buryo bwo kwidagadura no kugira umubiri ngo ube neza. Ni ahantu rero siporo ikorerwa nko mu masitade cyangwa se mu bibuga byabugenewe, kugira ngo bagorore ingingo bagire ubuzima buzira umuze.

Asiporo ni kimwe mu bikorwa byiza cane bituma abantu bagira ubuzima bwiza, bakananura imitsi amaraso agatembera neza. Bikaba byarinda n'indwara za hato na hato ziterwa n'imyanda ziba mu mubiri. Ni siporo ikorwa n'abantu benshi nk'urubyiruko n'abakuze, kandi bakaba babikora mu bice bitandukanye by'igihugu.

Siporo ni igikorwa gikorwa mu buryo bwinshi butandukanye, harimo no kuba abantu bagorora amaguru yabo kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze ariko hari n'izindi zikorwa mu buryo butandukanye bundi ku buryo byose bihuriza ku kuntu akeneye kugira ubuzima bwiza.

Amarushanwa ni kimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi b'urubyiruko, kuko usanga abantu biruka kandi bakaba bari kurushanwa, bagahembwa nk'ibihembo runaka baba bateganyirijwe. Usanga ari ibintu byiza cyane ku buryo buri muntu ashishikarizwa kubikora, kuko ari na siporo ituma umubiri ume...

Iyo abantu barimo koga mu mazi menshi, baba bameze nk'aho nyine bari kureba hejuru kugira ngo amazi ataja mu mazuru cangwa mu maso kuko iyo umuntu yashize umutwe mu mazi cane amazi gajaga mu mazuru, ugasanga abuze uko ahumeka akaba yanaheramo.

Umukino wa hendi boro ni umukino mwiza cyane abantu bakina bafatishije amaboko kandi bakawukina ari benshi bigatuma abantu bagira uburyo bwo kunanura intege zabo ibirebire umererwa neza. Abantu rero barasabwa gukina uwo mukino kandi kubera ko ari mwiza bakawukina bawushyizemo imbaraga ku buryo bajyera ku rwego Mpuzamahanga.

Umupira w'amaguru ni kimwe mu bintu bishimishaga abantu benshi. Iyo bari gukina baba bameze neza, baba bishimye ndetse n'abari kureba nk'umupira usangaga banezerewe cane, ugasanga bari gukina haba ku manywa cangwa nijoro. Hari igihe haba hari amatara ari kwaka kugira ngo gaboneshereze ikibuga.

Umukino wa tenisi ni umukino abantu bakinaga ari babiri babiri bahererekanya agatenasi kanyuze hejuru y'urushundura ruba rutambitsemo hagati. Ni ikibuga bakoraga kidafite isima ahubwo gifite nk'urwondo rufashe cane, rutarimo umucanga ku buryo ntawahagwa ngo akomerereke.

Siporo ni igikorwa cyiza cyane gituma umuntu agira ubuzima bwiza. Bikaba byatuma abasha no kunanura ingingo ze, kuko bituma habaho n'ubusabane bw'abo bakinana. Nka tenisi ni umukino abantu bakina ari babiri bagenda barenza agafile, bakina agatenesi mu kantu kameze nk'akuko kaboshye.

Siporo ni kimwe mu bikorwa byiza cyane bihuza abantu bakidagadura, Kandi bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza. Siporo ishobora gukinwa n'intoki kwiruka cyangwa se no gukina umupira w'amaguru, ariko byose ugasanga bihuriza kukuba ubuzima bubaho neza bw'abaturage n'abayikora.

Ibikorwaremezo biteye imbera muri iki gihe，harimo n'imihanda. Yoroshya ubuhahirane bw'uduce tumwe n'utundi，ndetse hakabamo n'ubwikorezi， n'ibinyabiziga， mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu byabo，ndetse ku mihanda y’ahamaze kugera umuhanda wa kaburimbo， bahashyira amabutike， bagoboka abantu mu gihe bakeneye ibicuruzwa.

Uburyo bwo kugenda mu mihanda, ni uburyo bugomba kwitabwaho kugira ngo hakurikizwe ibimenyetso byo mu muhanda, cyane cyane nk'ahazwi nka zebura corosingi ho kwambukira abanyamaguru, ni ahantu abantu bakwiye kwitondera cyane cyane batwaye ibinyabiziga, bakareka abanyamaguru bagatambuka nta nkomyi.

imihanda ya kaburimbo ikikijwe na mapave ni imwe mu mihanda imeze neza cyane, kuko ayo mapave anyurwaho n'abanyamaguru. Twari dukwiye kubungabunga rero ku buryo tudakuraho utuborudire tuba tuhakikije, ahubwo tukabikora kugira ngo amazi ajye ahanyura agende bitabaye ngombwa ko arekaho ngo abe yazamo ibyangiza umubiri.

Imihanda myinshi ya kaburimbo iba ikikijwe n'akayira kegutse kaba kariho amapave, iyo umuntu ari kuhanyura ubwo n'amaguru yinyurira aho, aho kugira ngo anyure mu muhanda hagati kuko abenshi barabagonga. Kaburimbo rero ifite akamaro kanini cyane hamwe n'ako kayira kaba kayikikije.